Uburezi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu cy'u Rwanda, icyumba cyicawemo n'abana bambaye impuzankano bari kurebana, ifite ameza afite ibara ry'icyatsi, intebe z'ubururu, izindi z'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba cy'ishuri cyicawemo n'abana, abahungu n'abakobwa bose bari kwigana, bafite ibitabo bifite ibara ry'umutuku, iruhande hari ikibaho gifite ibara ry'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini gisizwemo irangi ry'umuhondo, hamanitswemo icyapa cy'umweru. Harimo abana bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hahagaze umugore ufite igitabo ari kubasomera.

Uburezi bukomeje kugera ku bana bose b'Igihugu. Ikibuga kinini gihagazwemo n'abana bambaye impuzankano. Bakoze uruziga, hagati yabo hari umugore uri kubigisha wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku. N'inyuma y'uruziga hari umugore.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri rinini ryicawemo n'abanyeshuri abahungu n'abakobwa, imbere hari umurezi wabo wambaye umwenda w'umweru, ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo igihugu cyazanye irerero ry'abana batoya. Ikibuga kinini, kiririmo abana bakoze urunana, hagati yabo harimo abagore babiri bari kubigisha. Inyuma hari inyubako isakaje amategura.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri ryiza cyane riteweho amarange y'umuhondo n'ubururu. Abanyeshuri bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'icyatsi n'ubururu, bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu'igihugu cyacu cy'u Rwanda, inzu nini hicawemo nabana bambaye imyambaro itandukanye, bicaye ku kirago gifite amabara, umutuku, icyatsi, ubururu, hari umugore uri kubayobora.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abana batoya bitaweho n'ababyeyi n'Igihugu, icyumba kinini cyicawemo n'abana bafite ibikombe by'umutuku, icyatsi, ubururu, bari kunywa igikoma.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo bazanyeho n'irerero ry'abana bakiri batoya, icyumba kinini cyicawemo n'abana, abahungu n'abakobwa bari kwigishwa inyigisho z'abana bato.

Icyumba kinini gisizwemo amarangi y'umuhondo, hamanitswemo imfashanyigisho. Harimo abana batoya abahungu n'abakobwa bari kwigishwa n'umugore wambaye ibitenge. Inyuma yabo hari intebe zifite ibara ry'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana bahagaze ku kibuga bambaye impuzankano amashati y'umuhondo, amakabutura y'umukara n'amajipo y'umukara. Hagati yabo hari umugore wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara uri kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri ishaje imbere yayo hahagaze abanyeshuri bari gukina, iruhande hari umugabo ufite igare ririho umufuka w'umweru, imbere hari ubusitani bushinzemo ibiti.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini kiriho abanyeshuri bafatanye mu maboko bambaye impuzankano, abahungu bambaye amakabutura n'amashati, abakobwa amajipo n'amashati, imbere yabo hari ibiti binini biri mu ishyamba.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini yubakishijwe amabati y'ubururu, indi ay'umutuku. ifite inzugi zifite ibara ry'ubururu n'ibirahure by'umweru. Imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo indabo.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti hepfo hari ibigori. Inyubako y'amashuri asakajwe amabati y'ubururu hepfo hari indi nyubako isakajwe amategura. Amadirishya agize inyubako y'amashuri afite ibara ry'umweru.

Umuhanda urimo amabuye, impande yaho hari ubusitani burimo ibiti birebire, inyubako ndende isakajwe amabati y'umutuku.

Ikibuga kinini kirimo indabo zanitswemo, imyenda, pantaro y'umukara n'ishati y'umukara, impande yaho hari ubwiherero, bufite inzugi z'icyatsi.

Ubusitani bunini burimo indabo zikuze, ikibuga gihagazweho n'abana babiri, umwe afite igikapu ari kurebamo, inyuma hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Ubukarabiro bunini buri ku muhanda, inyuma yaho hari inyubako y'amashuri isakajwe amabati y'ubururu, hepfo y'amashuri hari ishyamba rinini, imbere hagati y'amashuri n'ubukarabiro hahinzwemo ibigori.

Umuhanda munini hashinzemo icyapa gifite ibara ry'umweru, handikishijweho amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, ryerekana ibyiciri bihigira. Inyuma hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Ikibuga kinini cyicawemo n'abana abahungu, abakobwa, bamwe muri bo bafite ibitabo mu ntoki zabo bari gusoma bishushanyijwemo ibiti, hagati mu ruziga harimo umugore wambaye umupira w'umweru ubayoboye.

Ikoranabuhanga rikomeje kugera ku banyarwanda bose. Icyumba kinini kirimo intebe zicaweho n'abantu batatu n'izindi ziticaweho, ikibaho gifite ibara ry'umukara. Bamwe bafite mudasobwa ifite ibara ry'icyatsi n'umweru bari kurebamo.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini kiriho abanyeshuri abahungu n'abakobwa bahetse ibikapu. Imbere hari inyubako y'amashuri ifite amadirishya y'icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo kinini cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, imbere mu kibuga hari abanyeshuri bambaye impuzankano. Inyuma yaho hari ibiti bikuze, ibyumye n'ibibisi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abahungu abakobwa bafite uburenganzira bose bwo kwiga. Abanyeshuri bambaye impuzankano bahetse ibikapu bari imbere y'amashuri afite inzugi z'icyatsi bamwe bari kwinjira mu ishuri.

Inyubako yubatse ku kibuga, isakajwe amabati y'ubururu, ifite amadirishya y'umukara, inzugi z'umukara, hejuru y'umuryango hari umurongo uhatambitse wubakishijwe irangi ry'umuhondo, imbere y'umuryango hari abana bari gukina.

Ikibuga kinini hahagazemo umwana wambaye ishati y'ubururu wogoshe umusatsi wose, inyuma ye hari igikoresho gishyirwa ku muhanda hashyirwamo imyanda, inyuma hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye mo imbere mu gipangu harimo ibiti birebire.

Ikibuga kinini gishyizwemo icyuma gifite ibara ry'umukara, inyuma yaho hari inyubako y'amashuri ifite inzugi z'ubururu isakajwe amabati y'ubururu, hakurya hari imirima ihinzwemo imyaka.

Icyumba kinini gisizwemo irange ry'umuhondo, harimo ameza arambuweho igitambaro gifite ibara ry'ubururu n'icyatsi, hejuru y'ameza harambitswe icupa ry'umweru n'ibitabo, hepfo hari intebe y'umukara.

Inyubako nini isakajwe amabati, harimo intebe ziticaweho n'abantu, akabati gafunze, imbere ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'icyatsi, hasi hari indobo ifite ibara ry'umutuku.

Ikibuga kinini gihagazweho abagore, abagabo, bambaye imyenda y'umukara abandi umuhondo, umweru, imbere yabo hari inyubako y'amashuri, abanyeshuri bari kwinjira mu ishuri isakajwe amabati y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri yubakishijwe amatafari adahiye, asakajwe amabati, inzugi zayo zisa icyatsi, imbere hari ubusitani budatewemo indabo nyinshi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho buri mwana wese asigaye azi gusoma no kwandika no kuvuga ururimi rumeze neza. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye harimo ikibaho cy'umukara n'intebe z'abanyeshuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini cyicawemo n'abana bambaye impuzankano. Abahungu bambaye ikabutura n'ishati. Abakobwa ijipo n'ishati. Iruhande hari ibitambaro by'umweru, bicaye ku ntebe, buri umwe afite ikayi imbere ye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiri imbere y'amashuri, kirimo ibara ry'umuhondo n'ubururu aho bakorera imyidagaduro, inyuma hari amashuri asakajwe amabati y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini hiciwemo abahungu, abakobwa, imbere hari umuhungu ufite indangururamajwi ufite ibyo ari kubabwira uri gufotorwa n'undi.

Abanyeshuri benshi bafite ibikoresho: matera, ibikapu mu mugongo, amavarisi, bari kwinjira mu modoka ifite ibara ry'umweru. Bambaye impuzankano: amashati y'umweru, imipira y'ubururu.

Ubusitani burimo ibiti bikuze, indabo, inyamaswa yitwa inkende, umuhanda uri kugendwamo n'abanyeshuri benshi, undi muhanda uhagazemo imodoka.

Icyumba cy'ishuri gitewemo irange ry'umuhondo, inzugi z'ubururu, ikibaho cy'umukara bifashisha bandikaho icyigwa, abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kwandika mu makayi.

Uburezi bwiza bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini cyicawemo n'abanyeshuri bari kureba imbere ku kibaho. Iruhande hari mudasobwa zifunguye n'ameza arambitseho mudasobwa.

Iterambere rikomeje kugera ku banyarwanda bose. Umuhanda mugari cyane usashwemo amabuye, uri kugendamo abanyeshuri bahetse ibikapu. Hepfo hari inyubako isakaje amabati y'ubururu. Ku muhanda hari ubusitani burimo igiti kinini.

Ikibuga kinini, gihagazweho n'abantu bambaye impuzankano. Bamwe bambaye imipira y'umuhondo, abandi amashati y'umweru. Bikoreye ibikoresho bitandukanye, umwe afite matera mu ntoki.

Icyumba kinini cyicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, imipira y'ubururu. Imbere yabo hicawe abagabo bambaye imipira y'umweru. Icyo cyumba gitewemo irangi ry'umuhondo.

Ubusitani bunini, bwiza bukikijwe n'indabo zitandukanye. Inyubako isakaje amabati y'umutuku ifite amadirishya y'umweru. Hejuru y'inzu hari ibiti bikuze cyane bifite ibara ry'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri cya Kageyo, cyigisha ibijyanye n'imyuga no kwihangira imirimo, gifite urugi rufite ibara ry'icyatsi n'umweru, inyuma hari ubusitani burimo indabo nziza.

Ikibuga kinini cyubatsweho inyubako igeretse kabiri, impande yaho, hari ibendera rifite amabara ubururu, umuhondo, icyatsi n'irindi rifite ibara ry'umuhondo. Irange risize ku nyubako risa umweru, ryubakishijwe amatafari ahiye, mato.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo kinini cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu cyubakishwa amatafari ahiye mato, imbere mu kibuga harimo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, imbere yabo harimo iparitse mu kibuga.

Ubusitani bunini burimo icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo mu nyuguti nini zifite ibara ry'ubururu, indangagaciro rifite ibara ry'umutuku, imbere hari inyubako y'amashuri isakaje amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini cyicawemo n'abanyeshuri. Abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Imbere yabo hari umuyobozi ufite urupapuro, ufite ibyo ari kubabwira akoresheje indangururamajwi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri rinini ryicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'imipira y'imbeho y'ubururu, imbere yabo hari umwarimu wambaye umupira w'umweru, ikibaho gifite ibara ry'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bunini buri imbere y'amashuri, yubakishijwe amategura, urugi rwo ku gipangu rufite ibara ry'ubururu, kirazira, indangagaciro biranga ikigo cy'ishuri biri ku cyapa cy'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini kirambitswemo ibikoresho twifashisha mu burezi, ibitabo bifite ibara ry'ubururu ibindi iby'umuhondo, imbere hari umugore wambaye ikanzu y'umweru uri kwigisha, abana ntago bagaragara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bicaye hamwe, bambaye impuzankano amashati y'umweru, imipira y'ubururu. Imbere yabo, hari umuntu ufite ibyo ari kubabwira. Icyapa cyanditsweho aho ikigo giherereye mu Karere ka Nyamasheke.

Ibikorwa remezo bikomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imihanda migari, umuhanda urimo amabuye uri kugendwamo n'abanyeshuri bahetse ibikapu. Hepfo yabo hari inyubako isakajwe amabati y'ubururu, haraguru hari indi nyubako isakajwe amabati y'umutuku.

Ubusitani bwiza cyane, burimo indabo, hakikijweho inyubako isakajwe amabati y'umutuku, hateweho irangi ry'umweru. Mu busitani harimo indabo zifite ibara ry'umuhondo.

Ubusitani bwiza cyane buteweho indabo batemye, hariho igiti kirekire, imbere yaho hari inyubako ifite inzugi z'umukara iteweho irangi ry'umuhondo, imbere y'iyi nyubako hahagaze imodoka ifite ibara ry'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri meza asakajwe amabati y'umweru, imbere hari umunyeshuri wambaye umupira w'umutuku wegamiye ku giti, igipangu gifite urugi rufite amabara y'ubururu.

Umuco Nyarwanda ntuzacika, Abanyarwanda bakomeje kubyina imbyino gakondo, ikibuga kinini kirimo abantu benshi bambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, ubururu n'umweru, bari ku nyubako isakaje amabati y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, amajipo y'ubururu. Iruhande hari imodoka y'umukara, ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri akomeje kubakwa, imbere y'amashuri hari ubusitani, amashuri yubakishijwe irangi ry'ubururu ku nzugi, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara imbere y'umuryango ufunguye.

Abanyarwanda bakomeje kugezwaho ibikorwaremezo. Umuhanda uriho icyapa gifite ibara ry'umweru, handikishijweho amagambo atandukanye, amwe afite ibara ritukura, ayandi ni umukara, ahandi ni ubururu. Iruhande hari ibiti bikuze.

Ubusitani bwiza cyane harimo ikirango cy'Igihugu cy'u Rwanda ari ryo bendera rigizwe n'amabara ubururu, umuhondo, icyatsi, imbere hari inyubako ifite amabati, amatafari y'umutuku, indi nyubako isakajwe ubati ry'ubururu.

Ubusitani burimo indabo, imbere yaho hari inyubako y'amashuri ifite inkingi zisizwe irange ry'umuhondo, inzugi zifite irange ry'ubururu, imbere y'abanyeshuri hari umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite indangururamajwi, ufite ibyo ari kubabwira.

Uburezi ni inkingi y'iterambere. Ikibuga kinini gihagazwemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano. Imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ufite ibyo ari kubabwira. Haraguru hari abandi bana bato bayobowe n'umugore wambaye umupira w'ubururu, inyuma hari ishyamba rinini.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bicaye hamwe, bambaye impuzankano amashati y'umweru, imbere yabo hari umwarimu ufite indangururamajwi uri kubabwira. Iruhande rwe hicaye undi murezi ufite ikayi mu ntoki, wambaye umwenda w'akazi wu...

Imodoka ifite ibara ry'umweru yicawemo n'umwana wambaye imyenda y'ubururu, izamuyeho ibara ry'umweru, uhetse igikapu cy'umutuku, urugi rw'imodoka rurafunguye.

Icyumba kinini gisizwemo irangi ry'umweru hariho amadirishya maremare mo imbere harimo intebe zikozwe mu mbaho n'ibyuma, harimo irangi ritukura hasi, harimo umuntu wambaye ingofero.

Umuhanda munini uparitsemo imodoka ifunguye urugi, impande yaho hari abana bari kugenda mu wundi muhanda, haraguru hari inyubako isakajwe amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini kicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, imbere yabo hari ameza arambitseho mudasobwa n'ab'imbere bafite mudasobwa zifunze.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa ku buzima bwacu kuko bidufasha kugoroka no kumera neza. Ikibuga kinini kiriho abakinyi bari gukina umupira, iruhande hari inyubako yubakishije amatafari ahiye harambitswe n'ameza.

Inyubako nziza ifite irange ry'umuhondo ku rugi rwayo, ikigo cy'amashuri giherereye mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Huye, hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi.

Ikibuga kinini cyicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'ubururu, bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari abantu bafite ibyo bari kubabwira harimo n'ushinzwe umutekano, bambaye udupfukamunwa bose.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhanda munini ku ruhande hari ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye gisakajwe amategura y'ubururu, iki kigo cy'amashuri giherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini gihagazemo abanyeshuri bafite ibikoresho bifashisha mu kwiga kwabo bifite ibara ry'ubururu. Abahungu n'abakobwa bose bari hamwe bahagaze ku isima isa icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini isizwe irangi ry'umuhondo, hicawemo abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, amajipo y'umukara n'amapantaro y'umukara, inkweto z'umukara, hagati yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru ufite igipapuro mu ntoki, afite ibyo ari kubabwira.

Gukorera hamwe ni byiza mugahuza ibitekerezo, ikibuga kinini kiriho abana bambaye impuzankano bafite amasuka bari gukora ingaranie yo gushyiramo imyanda, inyuma yabo hari urutoki runini.

Gusoma byongera ubumenyi mu baturarwanda, icyumba kinini kirimo ibitabo bitandukanye bimwe biri mu kabati ibindi birambitse ku meza, umugabo urimo wambaye ipantaro y'umukara.

Inyubako nini itewe irangi ry'umuhondo, irimo utubati turimo ibitabo bitandukanye bifite amabara, ubururu, umweru, umutuku, inyuma hari intebe ifite ibara ry'icyatsi n'ikibaho cy'umukara.

Inyubako nziza isizwemo irangi ry'umuhondo, ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'umukara, hiciwemo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru biga ibijyanye n'imyuga yo kudoda imyenda.

Inyubako nini yandikishijweho izina ry'ishuri ryanditswe mu nyuguti ndende zifite ibara ry'ubururu, urugi rufunze igipangu rusa umweru, handikishijweho ibara ry'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini cyubatsweho amashuri asakajwe amabati y'ubururu, gifite amadirishya afite ibara ry'ubururu, imbere y'umuryango hari umurezi wambaye umwenda w'akazi w'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe muri buri kimwe cyose. Inyubako nini irimo irangi ry'umweru yicawemo abagore, abagabo, bambaye imipira y'icyatsi, intebe zifite ibara ry'umweru zicaweho n'abo bantu.

Ikibuga kinini cyicaweho n'abantu benshi, bamwe bari kwicara ku ntebe abandi barahagaze, biganjemo abambaye imipira y'umuhondo n'abambaye amashati y'umweru. Inyuma yabo hari inyubako isakaje amabati y'umweru n'indi isakajwe amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abana bahabwa ibitabo bagasoma. akabati kanini gatondetsemo ibitabo, abana bicaye mu isomero batatu bari gusoma igitabo, imbere yabo hari umuntu werekana ikiganza gusa usa nkaho ari kubika.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imihanda myiza ikomeje kugera ku baturage, inyubako isakajwe amabati y'ubururu, inyuma yayo hari abagore bambaye imyenda isa ubururu, inyuma yabo hari icyapa cyandikishijweho amagambo y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutezwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri gihagazweho n'abana bambaye impuzankano, bamwe bambaye imipira y'ubururu ifite ibara ry'umweru ku kaboko no ku ijosi, abandi bambaye amashati y'umweru, bamwe bafite ibikoresho mu ntoki zabo bifashisha bamamaza.

Umuhanda munini uri kugendwamo n'abantu bane: Abagabo batatu n'umugore umwe, impande yabo hari ubusitani burimo ibiti bikuze, inyubako yubakishije amabuye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, imipira y'icyatsi. Bari kureba imbere bafite umuyobozi ufite ibyo ari kubabwira.

Gusoma byungura ubumenyi ku bantu, isomero rinini ritondetsemo ibitabo bifite amabara atandukanye, higanjemo ibara ry'umutuku, umuhondo, ubururu, byose bitondetse hamwe mu tubati.

Abanyarwanda baracyabyina imbyino gakondo. Abahungu, abakobwa bose barazibyina. Ikibuga kinini kirimo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano amashati y'umweru. Abandi bicaye bari kureba imbyino zabo.

Umuhanda munini uri kugendwamo n'abanyeshuri, umunyeshuri umwe afite ikayi mu ntoki undi imbere ahetse igikapu cy'umukara, ukikijwe n'ibiti birebire n'inyubako z'amazu atandukanye.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri bicaye mu cyumba inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'icyatsi, imbere hari umunyeshuri ufite indangururamajwi ufite ibyo ari kubabwira, ameza arambitsweho impapuro.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini cyicawemo n'abanyeshuri b'abahungu, buri umwe afite urupapuro imbere ye, bambaye impuzankano amashati y'umweru, inkweto z'umukara, umwe muri bo yambaye amadarubindi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani buhagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, inyuma yabo hari ishusho ya Bikira Mariya iri mu birahuri bifite ibara ry'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini isakajwe amabati y'umutuku, igipangu gifite urugi rufite ibara ry'icyatsi n'umweru, izina ry'ikigo ryanditswe mu magambo mu nyuguti nkuru ibara ry'umukara.

Icyumba kinini cyubakishijwe amatafari ahiye mato, harimo abana bambaye impuzankano amajipo y'umukara, imipira y'imbeho amashati y'umweru, imbere yabo hari umugore wambaye imyenda y'imikara uri kubabyobora abana baseka.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini gihagazweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano, abahungu n'abakobwa mu kibuga harimo icyuma bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri gifite irangi ry'umweru haruguru yabo hari amashuri.

Umuhanda mugari ushashwemo amabuye, hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano, abatoya bambaye imipira n'amakabutura by'ubururu, abakuru amapantaro y'ubururu, amashati y'ubururu. Ikigo giherereye mu karere ka huye muntara y'amajyepfo.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere. Abantu benshi bicaye hamwe abagore, abagabo bafite mudasobwa imbere zabo n'amazi impande ya mudasobwa. Bicaye ku ntebe z'ubururu.

Ubusitani burimo indabo zifite ibara ry'umuhondo. Ibiti bikuze, umuntu wicaye ku ntebe y'umukara, ukora akazi ko kurinda umutekano.

Ubusitani bunini burimo indabo zitandukanye, harimo inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, iruhande hasizweho ibara ry'umuhondo, handitseho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Ubusitani bunini burimo indabo zitandukanye, zifite amabara y'umutuku, icyatsi. Inyubako ifite irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku. Ibiti bifite amatabi meza yo kugamamo izuba.

Ikoranabuhanga rikomeje kugera ku banyarwanda bose, icyumba kinini kirimo mudasobwa ifite ibara ry'umukara, impande yaho hari telefone ifite umugozi w'umweru n'igikoresho bifashisha bafotora impapuro kirambitse ku meza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, icyumba kinini kirimo intebe, kisizwemo amarange y'umweru. Hiciwemo abakobwa, abahungu, abagore, umuntu imbere yabo uri kubaha inyigisho. Bafite mudasobwa imbere yabo.

Icyumba gisizwemo irange ry'umuhondo, ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'umweru, intebe zisa ubururu n'umukara, imbere hicawe umugabo uri kureba muri mudasobwa wambaye ishati y'umukara n'umweru.

Inyubako nziza itewemo irangi ry'umuhondo, yerekana ikigo cy'amashuri giherereye mu Ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyamagabe, harimo ameza yicaweho abagore, abagabo, buri umwe afite telefoni imbere ye, n'igikombe cy'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda mugari uriho icyapa gifite ibara ry'umweru n'ubururu, cyerekana kaminuza nkuru y'u Rwanda iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Inyuma yaho hari ubusitani burimo ibiti binini.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye mato. Hiciwemo abagore, abagabo, harimo intebe z'umweru, buri ntebe igiye yandikwaho umubare hakoreshejwe ibara ry'umukara mu mubare, n'ibara ry'umweru ku cyapa cyanditsweho umubare.

Umuhanda mugari cyane, impande yaho hari ubusitani burimo indabo, zisa umuhondo. Inyuma hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Hariho icyapa, kiri mu ibara ry'umweru, cyanditsweho amagambo yerekana izina ry'ikigo.

Abanyarwanda bakomeje gutera imbere mu gusoma ibitabo bakura byinshi mu bitabo, akabati gatondetsemo ibitabo bifite amabara atandukanye, umweru, umuhondo, byanditswemo ibintu bitandukanye.

Icyumba kinini gitewemo irangi ry'umweru, harimo ibitanda bisashweho uburyo butandukanye, hari ahari amashuka y'umutuku, harimo ameza arambitsweho ikayi, igisokozo, imbere yaho hicaye umuntu.

Inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku hariho icyapa gifite amabara icyatsi, umweru. Inzugi zikinzwe hamanutseho ibara ry'umweru ku nkingi, inyuma hari ishyamba rinini imbere hari ubusitani.

Abanyarwanda bakomeje kugira umuco mwiza wo gusenga, inyubako nini iteraniyemo abantu bari gusenga harimo amatara ari kwaka urumuri rw'umweru, isakajwe amabati, intebe nyinshi, hari umuntu umwe wambaye umupira w'ubururu uhagaze inyuma.

Ubusitani bunini burimo indabo zimwe ngufi n'izindi ndende, igiti kirekire kiri imbere y'inyubako isakajwe amabati y'umutuku, mu nyubako hasi harimo abantu batandukanye, abakobwa, abahungu.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu nyubako nziza, ubusitani burimo indabo nziza, haciyemo imihanda itandukanye igiye ahatandukanye, inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Abanyarwanda bakomeje iterambere ryo kubaka neza. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku, ikikijwe n'ibiti birebire, bizana umwuka mwiza abantu bahumeka. Hari ubusitani burimo indabo nzi...

Inyubako nini yicawemo nabantu, abahungu, abakobwa, intebe zirimo zifite ibara ry'ubururu, imbere hicawe abandi bantu ku ntebe z'icyatsi, bafite ibyo bari gukora.

Ubusitani burimo ibiti birebire by'icyatsi, hakabamo icyuma gitwara umuriro w'amashanyarazi, imbere yaho hari inyubako ifite inzugi z'ubururu, isakajwe amabati y'icyatsi.

Inyubako nini itewemo amarangi y'umuhondo ku bikuta, hejuru hariho amabara y'umweru n'amatara atari kwaka. Harimo ameza arambitsweho igikapu cy'icyatsi, inyubako ifite amadirishya meza.

Ubusitani bwiza, burimo inyubako isakaje amabati y'ubururu, amadirishya agizwe n'ibirahuri. Inyuma yaho, hari ibiti bikuze.

Ubusitani bunini harimo icyapa cyerekana kaminuza nkuru y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo, inyuma y'aho hari umuntu wambaye umupira w'ubururu uri mu muhanda.

Umuhanda munini ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti, harimo indabo zifite ibara ry'umutuku, inyuma yaho hari inyubako ifite irangi ry'umuhondo.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe n'amatafari ahiye mato, hakaba hatewe irangi risa umweru n'umuhondo, inzugi zisa umutuku ndetse harimo ameza asa nk'umutuku, intebe zisa nk'icyatsi.

Ubusitani butewemo ibiti bibiri birebire, iruhande hari umuhanda ukikijweho ibiti, imbere hari inyubako ifite amatafari y'umutuku isakajwe amabati, ifite ibirahuri by'umukara.

Icyumba kinini cyicawemo n'abantu, abagore, abagabo, imbere hari abaririmbyi bambaye amashati y'umweru, inyuma yabo hatatswemo igitambaro gifite ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe z'umutuku.

Icyumba kinini gihagazwemo n'abantu babiri umugabo, umugore. Imbere hari ameza ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'umweru n'ikindi gifite ibara ry'icyatsi. Harimo intebe nziza ziticayeweho n'abantu. Harimo indobo ifite ibara ry'icyats.

Ikibuga kinini gikorerwaho imyitozo ngororamubiri, iruhande hakikijweho ishyamba rinini, hamwe hasutswe umucanga, haciyemo umuhanda mugari cyane, hari ibiti bifite amatabi byifashishwa mu kurinda izuba.

Gusoma ni byiza kuko bituma tumenya byinshi kurusha kubyo tuzi. Icyumba kinini kirimo akabati gatondetswemo ibitabo bifite amabara atandukanye, ubururu, icyatsi, hicayemo abanyeshuri bari gusoma, ameza, intebe zisa icyatsi.

Ubusitani bwiza burimo icyapa gifite ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo y'ubururu, cyerekana izina ry'ishuri. Iki cyapa giherereye mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Huye, ahazwi nka Kaminuza ya Kiliziya y'u Rwanda.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, ikaba itewe irangi ry'umuhondo. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru. Iruhande hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo kinini cy'amashuri gisakajwe amabati y'umutuku giteweho irange ry'umuhondo, imbere haciweho umuhanda uri kugendamo abantu bamwe bari kuzamuka, abandi bari kumanuka hakikijweho ibiti.

Ubusitani burimo ikirango cy'Igihugu cy'u Rwanda, ari ryo bendera, inyuma y'ubusitani haparitse imodoka, ikibuga kinini kirimo abantu, inyubako ndende igeretse inshuro enye.

Icyumba kinini cyicawemo n'abantu, abagore, abagabo, bambaye imipira y'umweru n'umukara. Hahagaze batatu inyuma. Inkingi zifashe iyi nyubako zifite ibara ry'umweru.

Ikibuga kinini kiriho imodoka ifite ibara ry'umweru, imbere yaho hari inyubako ifite urugi rw'umutuku. Imbere hari ishyamba rinini rifite ibiti birebire, inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ubusitani bunini, impande yaho hari inyubako itari yuzura ifite ibara ry'umutuku imbere, amadirishya atarashyirwamo ibirahure, inyuma hari ibiti binini.

Ubusitani bwiza burimo icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo yanditse mu nyuguti nini mu ibara ry'ubururu. Inyuma hari ibiti bikuze n'inyubako isakaje amabati y'icyatsi.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo zikuze n'izitarakura. Imbere hari inyubako isizweho irangi ry'umweru n'iry'umukara. Hasi yaho hari inzugi zifite ibara ry'umukara.

Iterambere ry'u Rwanda rikomeje kuzamuka, abantu bicaye mu cyumba kinini buri umwe wese afite mudasobwa imbere ye n'icupa ry'amazi abagore, abagabo bose bafite uburenganzira bwo gukoresha mudasobwa.

Inyubako nziza ibereye u Rwanda isizwemo irange ry'umuhondo, hari amatara y'umweru ari kwaka urumuri rwiza, ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'umweru, intebe nziza zisize amarange y'umutuku.

Ubusitani bunini buciyemo imihanda itandukanye, ibiti birebire, ikibuga kinini kirimo abantu, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru, inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Ubusitani bwiza burimo ibyuma bifashweho ikigega gifite ibara ry'umukara, impande yaho hari ibiti birebire bikuze, imbere yaho hari igikarabiro cyanditsweho amagambo yerekana ko ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bikuze n'ibitarakura, indabo zitandukanye izifite amabara y'umweru, hepfo y'ishyamba hari inzu isakajwe amabati y'umukara haciyeho n'umuhanda umanuka mu ishyamba.

Inyubako nziza itewemo irangi ry'umuhondo. Ku gikuta hari ikibaho gifite ibara ry'icyatsi n'ikindi gifite ibara ry'umweru. Imbere hari intebe ziticaweho n'abantu. Mu mpande hubakishijwe amatafari ahiye mato.

Ubusitani burimo ibiti birebire, umuhanda uri kugendwamo n'umuntu uhetse igikapu mu mugongo, ufite ikindi mu ntoki, kaminuza nkuru y'u Rwanda iherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini kirimo ibitabo, ku madirishya hariho ibitambaro. Hicawemo abahungu, abakobwa. Bamwe bambaye imipira y'umutuku, abandi amashati y'umutuku. Inyuma yabo hari umwarimu.

Ubusitani burimo indabo zitandukanye n'ibiti birebire, haciyemo imihanda igiye iri ahantu hatandukanye, umwe muri yo uri kugendwamo n'abantu uwundi bawuhagazemo, inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Icyumba kinini gisizwemo irangi ry'umuhondo hamanitsemo imfashanyigisho ifite ibara ry'ubururu n'umweru, hicawemo abantu benshi abagabo, abagore bose bari kureba imbere baciwemo ibice bine imbere yabo hari ibishushanyo byinshi.